Umugabo wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse n'agakoresho bifashisha bumva uko umutima uteye, akambaye mu ijosi, mu biganza bye afite udukarito dufite ibara ry'umuhondo tubiri, yambaye ingofero y'umukara.

Inzu isize irangi ry'umweru, irimo akabati gafite ibara ry'umweru, hariho ibirahuri, harimo ubwoko bw'imiti y'amatungo butandukanye impande zose.

Icyapa kiri mu mabara atandukanye, kirimo umutuku, umweru, umukara, ubururu, icyatsi, cyandikishijweho amagambo mu mabara atandukanye, kiriho udushushanyo dutandukanye nk'uducupa, imbuto amazu ndetse n'ibindi.

Inzu irimo akabati gakozwe mu biti gasize ibara ry'umweru, hagiye haciyemo uduce, muri buri gace hagiye harimo ubwoko bw'amacupa atandukanye, bufite amabara y'umutuku, icyatsi, iruhande rwaho hari umuntu ufashe terefone mu ntoki.

Ikiganza cy'umwirabura gifashe ifumbire y'imborera irimo ibintu bitandukanye byaboze; harimo nk'ibyatsi, amase, ndetse n'iminyorogoto. Iruhande rwe hari ikiraro gikozwe mu biti.

Inzu irimo utubati dutandukanye, harimo ibikoresho bifashisha mu guhinga ndetse no mu bworozi, harimo nk'agakoresho bifashisha bagaburira inkoko, harimo rozwari bifashisha buhira mu bihingwa.

Igiti cy'ipapayi rya kizungu gifite amababi afite ibara ry'icyatsi. harimo imbuto zihiye n'izidahiye n'izatangiye gushya; izihiye zifite ibara rya oranje, izindi zitangiye gusa umuhondo, izidahiye zifite ibara ry'icyatsi.

Agacupa gafite ibara ry'umweru n'umufuniko w'ubururu, hariho icyapa gifite ibara ry'ubururu n'umuhondo, cyandikishijweho amagambo mu mabara atandukanye, kuri icyo cyapa hashushanyijeho inka, ihene ndetse n'inkoko zifite umushwi.

Umurima urimo ibyatsi by'urwiri, imbere yaho hari abagabo n'abagore barimo guhinga bagana imbere, imbere hari ubwoko bw'ibiti butandukanye.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bafite amasuka barimo gukora umuyoboro w'amazi, iruhande rwabo hari umuhanda, wambutse umuhanda hari umurima ndetse n'ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Abantu barimo abagabo n'abagore, hari abakenyeye ibitenge n'abambaye amapantaro, bose bafite amasuka barimo guhinga, inyuma yabo hari igihuru kinini kirimo ishyamba ririmo ubwoko bw'ibiti butandukanye.

Abantu barimo abagabo n'abagore bunamye, bari mu murima w'imboga rwatsi zizwi nka dodo, bamwe muri bo bari guhinga abandi barimo kuzica, iruhande rwabo hateye urubingo.

Abantu bari mu muganda barimo abagabo n'abagore, harimo abambaye amapantaro, n'abakenyeye ibitenge, bafite amasuka barimo guhinga, inyuma yabo hari umuhanda urimo abantu barimo kugenda.

Umugabo ukuze uri mu murima w'ibigori wambaye ishati y'amaboko maremare irimo uturongo, afashe ibigori byumye mu ntoki ze bizirikanyije, iruhande rwe hari ibindi biti by'ubwoko butandukanye ndetse n'insina.

Akarima k'igikoni, kubakishijwe ibiti ndetse n'imifuka igiye ikikije ku ruhande, iruhande rwawo hateye igiti cya avoka, ndetse hari n'umurima urimo ibihingwa nk'insina.

Abantu barimo abagabo n'abagore, umwe muri bo yambaye itaburiya y'icyatsi n'ipantaro y'umukara na bote z'icyatsi, afite igiti mu kaboko k'ibiryo arimo kugitera ndetse n'abandi bagore babiri iruhande rwe barunamye, barimo gutera igiti.

Mu murima uhinzemo ubwoko bw'ibihingwa butandukanye, harimo imboga z'imbwija, dodo, ndetse na sereri na karoti. Iruhande rwaho hateye indabo zifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo.

Umuntu wirabura wambaye agapira k'umweru, afatishije ibiganza bye byombi ibitunguru, bifite ibara ry'umutuku ndetse n'imizi hasi, iruhande rwe hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu batatu bari mu murima w'ibishyimbo, harimo umugabo, umugore n'umwana barimo gusarura ibishyimbo, imbere yabo hari agapaniye karimo ibishyimbo, ndetse n'umugabo afite umufuka arimo kongeramo.

Abantu batatu, barimo abagabo babiri n'umugore umwe, bari mu murima, umwe muri bo arasutamye, abandi bagabo babiri barunamye, hejuru yabo hari ibiti bigiye bimanitseho utuyungirizo dufite ibara ry'umukara.

Isoko ry'imbuto ririmo ubwoko bw'imbuto butandukanye, harimo nk'imineke mu moko atandukanye, ihiye n'idahiye neza, harimo inyembe, amatunda, umunzani ndetse n'ibikarito bigiye birimo ibindi bitandukanye.

Umugore wirabura wambaye agapira k'ivu, gashushanyijeho inyenyeri ebyiri, ibumoso n'iburyo, ziri mu ibara ry'ubururu bwijimye, mu ntoki ze ateruye pavuro zifite ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari ibyatsi.

Inkoko ifite akabara k'icyatsi kayizengurutse, iriho pavuro zifite ibara ry'icyatsi, munsi yaho hateretse imifuka mu mabara atandukanye nk'umweru, icyatsi, umuhondo.

Abantu batanu, batatu muri bo barasutamye, abandi babiri barunamye, bose ni abagabo imbere yabo hari ibiti by'amapera bikiri ingemwe byinshi, inyuma yabo hari umurima urimo ibihingwa bitandukanye.

Umurima urimo ibyatsi ndetse ku ruhande rwaho hateye ibigori, hagati harimo robine ikozwe mu cyuma, amazi arimo kumeneka, urufunguzo rwayo rufite ibara ry'ubururu.

Amazu ari munsi y'imisozi, amwe muri yo yubakishijwe amategura, iruhande rwabo hari utuyira tw'ibitaka ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, imbere yaho hari umusozi.

Inka ebyiri imwe ifite ibara ry'umweru n'umukara indi ifite ibara ry'umweru, ziri mu kiraro cyubatswe n'ibiti ndetse n'ibyondo, zirimo kuririsha ibyatsi bimwe biri mu muvure ibindi biri hasi.

Ikiraro cyubakishijwe amabati n'ibiti, hanitseho imyenda, iruhande rwaho hari imbuga irimo ibiti n'inkoko irimo gutamba n'igiti cy'amapapayi.

Umugabo wirabura wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ivu, ufashe ku kanyana gafite ibara ry'umweru n'igaju mu mugongo, kari mu nzu irimo ibishishwa by'ibishyimbo byumye.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'amabati, kirimo inka zifite ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwaho hari abashumba bazo, umwe muri bo yambaye agapira k'ubururu, undi ari hanze y'ikiraro afashe ku giti.

Ingurube iri mu kibuti, ifite ibara ry'umweru, irimo kurisha ibyatsi, iruhande rwaho hateretse ikijerekani gikase kirimo ibiryo birimo amazi, icyo kibuti cyubakishijwe ibiti.

Abantu barimo abagore n'abagabo, abakuze ndetse n'abakiri bato, bazengurutse ingurube zifite ibara ry'umweru, zambaye nimero ku matwi yazo ari mu mabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi, zirimo kurya ibyatsi.

Ihene ifite ibara ry'umweru irimo kurisha yambaye ikiziriko mu ijosi n'iyindi ifite ikiziriko kirekire, iruhande rwaho hari ikigega gifite ibara ry'umukara ndetse n'umuntu wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'ubururu urimo koga intoki.

Igiti cy'intoryi, gifite amababi y'icyatsi ndetse hariho n'intoryi zikuze, munsi yaho harimo ibyatsi byumye bisasiye icyo giti, kugira ngo intoryi zidapfa.

Abagabo babiri umwe muri bo yambaye agapira k'umutuku n'ipantaro ya kake, undi arasutamye afashe akaguru k'ingurube, undi afashe igikoresho bifashisha bashiraho ingurube ibimenyetso, iruhande rwabo hari ibase ifite ibara ry'icyatsi.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bafite ihene zifite ibara rya kaki n'umweru, ziziritse ibiziriko mu ijosi, bamwe muri bo barimo kugerageza kuzirika ihene, abandi bazifashe mu ntoki.

Inyoni izwi nka gasuku ifite amabara atandukanye nk'umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo, ifite umunwa muremure w'umutuku, ihagaze ku gati ku gashorishori.

Igiti gifite utubabi tw'icyatsi kiriho uturabo tw'umutuku, umuhondo ndetse na oranje, hahagazeho inyoni ifite amabara atandukanye nk'icyatsi, umukara, umutuku n'umweru n'umunwa muremare.

Inyoni izwi nka gasuku ihagaze mu giti hejuru, ifite amabara atandukanye nk'ubururu, umutuku, ndetse ku mutwe ifite ibara ry'umukara, umuhondo n'isunzu ry'umutuku.

Inyoni izwi nka gasuku ifite amabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi, umutuku, umunwa wayo ni muremure ufite ibara ry'umutuku ndetse ifite n'umurizo muremure, ihagaze mu bushorishori bw'igiti.